Aha ngaha nk'uko turi kubibona handitse inama y'umunsi, inama y'umunsi iragira iti " inzitiro ku matungo ubwishingizi bw'amatungo."

Iyi ngigi turi kureba ni mudasobwa ikaba irimo iratwereka uburyo ushobora kuyikoreshereza mudasobwa yawe ndetse n'ikoranabuhanga mu buryo bwo kuba wabitsa ukana bikuza amafaranga yawe.

Bano barimo baratwereka ko ibintu twagiye dukora byo kohererezanya amafaranga kuri murandasi byagenze neza, hakaba habayeho ibintu byiza aya mafaranga akaboneka.

Ibi ngibi bari kutwereka hano, iratwereka ko ari ikoranabuhanga ryifashishwa na kimwe mu bigo bibika bikanabikura amafaranga y'abaturage bifashishije ikoranabuhanga.

Aha ngaha ni mu iguriro riherereye muri uyu mugi wacu wa kigali aho bigaragara ko harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, nk'amakote ndetse n'ibindi bikoresho.

Iri ngiri ni iguriro ritoya riherereye mu mujyi wa Kigali, aho bigaragara ko bacuruzamo imyambaro y'abagabo, aho bacuruza amakote ndetse n'inkweto nziza by'abagabo.

Iri ngiri ni iguriro ryiza cyane ririmo imyenda y'abagabo, amakote agaragara ko ari meza cyane, ari mu mabara agiye atandukanye.

Abangaba ni abantu bishimiye ko bazanye ikinyabiziga gishyashya mu mugi, bakaba bagihaye abasore batatu bazajya bagendera muri icyo kinyabiziga.

Aba ngaba ni abagabo batatu mu by'ukuri biragaragara yuko barimo barahanahana imodoka batsindiye cyangwa se ikaba yaguzwe muri cyamunara, bakaba bayiguze amafaranga makeya.

Uyu nguyu ni umugabo ufite uruhu rwera. Akaba ari kumwe n'umusore muremure, ukora ibinyabiziga mu gihe byahuye n'ikibazo akongera kubigira bishyashya.

Iyi ngiyi ni imodoka iherereye mu mujyi wa Kigali, ikaba irimo iragurwa, Washaka kuyigura ugahamagara imibare barimo baratwereka haruguru ya nyiri iyi modoka.

Iyi ngiyi ni imodoka nziza cyane, ikaba yarakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri kandi irimo iragurishwa amafaranga ahwanye na miliyoni makumyabiri n'eshatu z'amanyarwanda.

Iyi ni imashini ibitsa ikanabikura amafaranga ikaba ishobora ku kuguhereza amafaranga menshi cyane ,ayo waba ufite yose ku bijyanye n'imitungo yawe.

Aba bantu biragaragara ko bagiye kubikuza amafaranga yabo babikije mu kigo cy'imari gishinzwe kubika ndetse no kubikura amafaranga y'abaturage.

Aya ngaya ni amafaranga. Aya mafaranga ari mu byiciro bitandukanye, amafaranga y'inoti, hakaba n'amafaranga y'ibiceri akaba agiye atandukanyijwe mu dusanduku twayo.

Aya ngaya ni amafaranga y'u Rwanda yo mu myaka y'ahasaga igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na karindwi, uko bigaragara hashushanyijweho igishushanyo cy'amasaka.

Aha ngaha ni mu iguriro uko bigaragara hari ibinyobwa n'ibiribwa bigiye bitandukanye ndetse hakaba harimo n'amazi yo kunywa, hakaba harimo n'ibyo kunywa bigiye bikomoka ku mata.

Aha ngaha ni ahantu bacururiza ibijyanye n'amata yo kunywa. Mu bigaragara barimo barahakora isuku kugira ngo abaguzi baze gusanga hasa neza cyane mu by'ukuri.

Aha ngaha barimo baratwereka mu byukuri uburyo dushobora kwifashisha mu kwishyura dukoresheje inziramugozi cyangwa se murandasi mu buryo bujyanye n'ikoranabuhanga.

Uru nguru ni urubuga rukorera kuri murandasi, uru rubuga rufasha abantu batandukanye kohererezanya amafaranga bitabasabye ko bayatwara mu ntoki, uru rubuga rufasha benshi.

Iki ngiki turimo turabona ko ari icyangombwa cyerekana uburyo ubukungu buhagaze mu kigo kimwe runaka cy'imari ndetse n'igenamigambi, kiri mu mabara meza cyane.

Uru nguru ni urupapuro rutwereka uburyo abantu batanga imisoro n'amahoro bagomba kubyikorera bakoresheje ikoranabuhanga, bikaba ryaratanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro.

Uru nguru ni urutonde rujyanye n'ibijyanye n'amafaranga uburyo yagiye akoreshwamo, mu buryo bwo kugira ngo babashe kubarura imari yagendeye muri iyi nzu.

Iki ngiki ni icyangombwa gitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, iki cyangombwa kikaba gikenerwa n'abantu batanga imisoro ya buri kwezi.

Iyi ngiyi ni inoti y'amafaranga igihumbi yo mu gihugu cy'abaturanyi cy'igihugu cy'u Rwanda. Ikaba ishushanyijeho umugabo ufite umusatsi watoye uruyenzi.

Ikingiki ni icyumba, cy'ahantu bavunjishiriza amafaranga agiye atandukanye, y'amanyamahanga, aho witwaza amafaranga uzanye, ukayatanga mu kindi gihugu ugiyemo.

Aya ngaya ni amafaranga ibihumbi makumyabiri ariko ano mafaranga ntabwo ari amafaranga y'amanyarwanda ,ni ayo mu kindi gihugu cy'igituranyi cyacu.

Iyi ngiyi ni inoti y'amafaranga igihumbi, aya mafaranga ni ayo mu bihugu by'abanyamahanga kuko bigaragara ko atari aya hano hafi mu bihugu by'abaturanyi b'u Rwanda.

Iyi ngiyi ni inoti, ni inoti yo mu kindi gihugu ikaba igaragara ko ari amafaranga ijana ashushanyijeho umugabo ufite umusatsi mwinshi.

Aya ngaya rero nk'uko muyabona ni amafaranga agiye ari mu byiciro bitandukanye, amafaranga y'ijana, afaranga makumyabiri, amafaranga mirongo itanu. Bikaba bigiye biri mu mabara atandukanye.

Aha ngaha ni ahantu heza cyane abantu bifashisha barimo barahererekanya amafaranga cyangwa se barimo barakora ivunja n'ivunjisha ry'amafaranga yabo bafite mu ntoki.

Hano hantu turabona ko ari ahantu abantu batandukanye bakoresha ibijyanye no kugurana cyangwa se kuvunjisha amafaranga yabo.

Ahangaha ni ahantu bigaragara ko bavunjishiriza amafaranga y'amanyamahanga, kuko biragusaba ko uzana amafaranga ukuye hanze y'igihugu cy'u Rwanda, bakaguha amafaranga y'amanyarwanda.

Aha ngaha ni abantu bavunja amafaranga y'amanyamahanga bifashishije ahantu bakorera k'uko urahabasanga bakaba bagufasha kuyavunjisha.

Iki ngiki ni ikigo cyitwa Ubwiyunge kikaba gikoreshwa mu buryo bwo kuvunjisha amafaranga y'amanyamahanga ndetse n'amafaranga yo mu gihugu imbere.

Ibi ngibi mu byukuri, ni ibikoresho byo mu nzu, aho harimo ameza yo gutekarekaho ibintu, ndetse n'intebe zo kwicaraho mu gihe murimo muraganira cyangwa se mwibereye mu kazi.

Aha ngaha ni ahantu batangira ubwishingizi bugiye butandukanye, aho uzana ibyangombwa byawe byose, ahasigaye bakagufasha kubona ubwo bwishingizi.

Aha ngaha nk'uko mubibona ni mu masaha ya nijoro, ariko barimo baradushishikariza kujya gufata ubwishingizi bw'ibikoresho byacu dukoresha mu kazi kacu ka buri munsi.

Iyi ngiyi ni inzu igaragara ko hakorerwamo ibijyanye no gutanga ubwishingizi mu buryo bugiye butandukanye bikaba bigaragara ko ari ibintu byoroshya ubuzima.

Ni inzu nziza cyane mu byukuri igaragara ikaba iherereye mu mujyi wa kigali iyi nzu igaragara ko ari inzu ikorerwamo ibijyanye no gutanga ubwishingizi, ubwishingizi butandukanye.

Aba bantu bari ahantu barimo barigira ku nama z'ibintu bigiye bitandukanye, aho bari kwiga ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu bakanasesengura ibijyanye n'uburinganire.

Ahangaha ni ahantu heza cyane batanga ubufasha bujyanye n'ibintu bigiye bitandukanye, aho bashobora kuguha inguzanyo y'amafaranga, ukazayishyura mu gihe kitari kirekire cyane.

Iki ngiki ni ikigo cy'Igihugu gikora ibijyanye no gutanga inguzanyo ku mafaranga mu bijyanye no gukora ubushabitsi. Bikaba bigaragara ko batanga inguzanyo mu buryo bwiza cyane kandi bworoshye.

Uyu nguyu ni umubyeyi, akaba arimo aratwereka ko dushobora kwibonera inguzanyo mu buryo bworoshye cyane bitadusabye kunyura mu nzira nyinshi zo hirya no hino.

Iki ngiki ni igitabo cyerekana ibijyanye n'amategeko ndetse n'amabwiriza, bikaba ari ibigomba gukurikizwa mu gihe umuntu arimo arakora akazi runaka.

Rino soko biragaragara ko ririmo abantu benshi cyane bari mu kazi kagiye gatandukanye, harimo abarimo baradoda imyenda, abandi bacuruje amashuka yo kuryamamo n'ibindi bigiye bitandukanye.

Rino soko turimo turareba, ni isoko ryiza cyane rihahirwamo ibijyanye n'imbuto ndetse n'ibindi bikenerwa mu buryo bwa buri munsi ubuzima bwacu.

Iri ngiri ni isoko ryiza cyane mu buryo bugaragara harimo harakoreramo abantu batandukanye, abarimo kudoda imyenda n'abandi bacuruza ibikoresho bitandukanye byo mu nzu.

Rino soko riragaragara ko ari ijyanye n'ibyo kurya, higanjemo imbuto ndetse n'imboga, harimo igitsina gore kurusha igitsina gabo.

Aha ngaha nk'uko turimo turahareba ni mu isoko, iri soko rigizwe n'imyenda itandukanye, iyo myenda ikaba ikorerwa hano iwacu mu Rwanda, iyi myenda irasa neza mu buryo budasanzwe.

Aha ngaha ndi kureba ni mu isoko, ni mu isoko rigizwe n'imboga ndetse n'imbuto, harimo abantu benshi cyane barimo barabicuruza hakaba harimo n'ababigura.

Iyi ngiyi ni inzu ntoya ikozwe mu mabati cyangwa se mu byuma bitaremereye cyane, iyi nzu abantu bayikoreramo batanga gahunda n'ubufasha byo gukoresha murandasi na mudasobwa.

Aka ngaka ni akazu gatoya cyane, gakoreshwa mu kohererezanya amafaranga mu baturage mu buryo buboroheye cyane, hakaba hari n'indi nzu ifite ibara ry'umutuku.

Iri ngiri ni iguriro ryo kuri murandasi, aho ushobora kugura ibiribwa wifashishije mudasobwa yawe cyangwa se inziramugozi, ibiribwa bikaza bigusanga iwawe.

Iyi pikipiki itwaye ibintu bijyanye no kurya mu by'ukuri ibishyiriye abantu babihamagaje, kugira ngo babone uko bica isari yo ku masaha yo ku manywa.

Uyu nguyu ni umuntu utwaye ipikipiki, mu by'ukuri akaba ari kutwereka ko ushobora guhahira kuri murandasi, hifashishije ikoranabuhanga, ndetse na mudasobwa.

Iri ngiri ni isoko rijyanye n'ibintu by'imbuto. Rikaba ryifashishwa mu guhaha izo mbuto n'imboga, tukazijyana mu rugo tukajya kuzikoresha ibyo zikwiriye.

Aha ngaha mu by'ukuri turabona ko barimo baradushishikariza kuzajya duhaha twifashishije ikoranabuhanga ndetse n'inziramigozi zacu.

Iyi ngiyi ni inzu mureba nziza cyane ifite n'imbere hayo hasa neza ahateye ubwuzu, iyi nzu ikodeshwa amafaranga miliyoni n'ibihumbi magana atanu by'amanyarwanda.

Aha ngaha ni ahantu heza mu gikoni ushobora gutekera ibiryo bikaza bimeze neza cyane bitewe n'uburyo byatetswemo ,kuko haragaragara ko hameze neza cyane.

Aha ngaha ni ahantu heza hari icyumba kiza cyane, hakaba hakodeshwa amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu na bitanu by'amanyarwanda mu kwezi.

Aha ngaha turimo turareba rero, biragaragara ko ari aho bita mu ruganiriro, ariko iyi ngiyi ikaba ari inzu ikodeshwa ibihumbi magana inani ku kwezi, hano mu mujyi wa Kigali.

Iyi ngiyi ni inzu nziza cyane, iherereye mu mujyi wa Kigali, aho iherereye mu murenge wa Kabeza, ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu na mirongo itanu.

Iyi ngiyi ni inzu yo gukodeshwa ,ni inzu iherereye mu mujyi wa kigali ahazwi nka kanombe ikaba ifite ibyumba bine n'ubwogero butatu.

Iyi ngiyi ni inzu nziza cyane iherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Kimilonko, hakaba igizwe ino nzu n'ibyumba bine byo kuryamamo, ikaba ifite n'ubwogero butatu, ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atandatu.

Aha ngaha turi kureba rero ni mu iguriro rizwi cyane hano muri Kigali, rikaba rihahirwamo n'abantu bagiye batandukanye ababyeyi, ababyeyi b'abagore ndetse n'abagabo n'abandi bantu bagiye batandukanye.

Iringiri ni iguriro ryiza cyane bigaragara yuko baguriramo ibintu byinshi byiza byo kunywa. Harimo inzoga zihenze ariko zikaba ziryoshye zinasa neza.

Aba bantu ni benshi cyane barimo baragenda bagura ibikoresho bitandukanye, abagore n'abagabo, abana ndetse n'abasore n'abakobwa barimo baragura mu buryo bushimishije.

Ubungubu ni ubwishingizi mu kwivuza, buzwi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bukaba bugaragaza ko mu gihe urwaye, udasabwa ayandi mafaranga y'umurengera.

Aba ngaba ni ababyeyi bari kumwe n'abana babo, aho baje ku kigo nderabuzima kubafasha gukingiza abana babo kugira ngo birinde indwara z'ibyorezo zitandukanye zigenda zifata abana mu bihe bitandukanye.

Abagabo bari hano barimo baramamaza ibintu bijyanye no gukora ibijyanye n'ubwishingizi mu kwivuza, bakaba bagenda bafasha abaturage bagiye batandukanye.

Aba bantu turimo turareba hano mu byukuri barimo barishimisha bareba imikino igiye itandukanye, imikino bakoresha amaboko, barishimye muri rusange.

Iri ngiri ni isoko rya kijyambere, aho abantu bagenda bagura ibikoresho bitandukanye, byiganjemo ibijyanye n'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa biryohereye cyane.

Ahangaha ni ahantu heza cyane hazwi ho mu mujyi wa Kigali hazwi nko mu karere ka Kicukiro aho turi kubona ko tugeze ahantu hari icyapa kitwereka aho dushobora kuba twagurira umugati.

Iri ngiri ni isoko rya kijyambere ryiza cyane, aho dusangamo ibintu bigiye bitandukanye: ibikoresho byo mu nzu, ibikoresho byo mu kazi, ndetse no mu nganda, n'ibyorya mu rugo.

Aha ngaha nkuko mubibona ni ku iguriro, ni ku iguriro ryiza cyane riherereye mu Mujyi wa Kigali, mu by'ukuri hafi yaho hicaye imodoka y'umukara mu by'ukuri ni imodoka nziza irabagirana.

Uyu mugore mu byukuri yagiye mu iguriro, yagiye mu iguriro arimo arahaha ibintu agomba gucyura harimo ibyo kurya ndetse akaba harimo n'ibyo kunywa.